Umutekano ni wose, abasekirite bari kwitoza, ikibuga cyiza, ibiti byiza bitanga akayaga, abatoza babatoza nabo baba bagaragara neza cyane, uri ukubona ko n'ibyo baba bakora baba bafiteho ubushake bwinshi.

Ingabo z'Igihugu ku muronko, abagore, abagabo, iterambere, umutekano ni wose, Igihugu kiragendwa n'amajambere garahari.

Mu gihugu cacu umutekano ni gwose, abantu babaga bambaye imyenda z'akazi kuburyo utapfa kumwitiranya n'uwo ariwe wese ubonye, idarapo ry'u Rwanda risa neza cane ndetse n'ingofero imeze neza ,afite isura bigaragara ko akazi akora aba agakora neza cane.

Ahantu heza, indabo zimeze neza, abantu bategura ahantu ho gutekera, bambaye imyenda z'akazi, ibikoresho byabugenewe n'amashiga gajanye n'iterambere tugezeho.

Inamama zitabirwaga n'abantu benshi ahantu heza habugenewe, abashinzwe umutekano, abantu babaga bazitabiriye b'ingeri zose, abakecuru, abasaza, abagore, abagabo ndetse n'abayobozi bari kubaha ibitekerezo byiza.

Iyo abayobozi bakuru bitabiriye inama, abagore, abagabo bari ahantu heza cane, amazi yo kunywa barabahereza, ikoranabuhanga rirakataje.

Inama ziritabirwaga bamwe bahagaze abandi bicaye ku ntebe zimeze neza, ku buryo ahantu bari nta mvura yabageraho habaga hasakariwe, ndetse n'abayobozi batanga inyunganizi n'ibitekerezo.

Umuryango gwa efuperi abanyarwanda bose bagurimo. Iyo habaye inama ya efuperi bitabira iyo nama, iterambere rirakataje nta munyamuryango wa efuperi haba inama ngo areke kuyitabira, efuperi oye oye.

Abayobozi bacu ni beza cane ubu ni uburinganire n'ubwuzuzanye abagore n'abagabo bose barayoboraga ndetse n'abashinzwe umutekano aho umuturage agendaga atanga ikibazo ce bose bakakiganiraho bakagikemura abadahejwe.

Inama, abayobozi babaga bayikoresheje batanga ibitekerezo. Ndetse bari ahantu hanini, hagari cane, bose bicaye, ndetse batega amatwi abayobozi ibyo bababwira.

Ikirago kiboshywe mu migozi ndetse n'agakoko kateretse na gacuma n'uduti, ako gacuma niko bakoreshaga bashiramo urwagwa abasaza bakarunyweramo. Ubona ko bafite uburenganzira buhanitse.

Inkono y'itabi kera banyweragamo, bashiragamo itabi ryumye bagashiramo umuriro bakayinyweramo abakecuru n'abasaza, ariko ubu muri iri terambere tugezeho ntabwo wapfa kuyibona, ni hakeya zibonekaga.

Ubuhinzi bw'amasaka gari mu murima; amasaka garacari ibitete, ntago gari gera ariko mu gihe gitoya garaba geze bagasarurwe gajanwe ku isoko umusaruro guzaba ari gwose.

Abagore bicaye bari kuboha uduseke ndetse n'udukoko n'uduparato, ubona ko ibyo bakora babaga babizi cane, abantu baturutse hirya no hino barazaga bakagura nta kibazo.

Ibikoresho bijanye n'umuco nyarwanda ndetse n'ibibindi bikozwe mu ibumba, intebe zimeze neza, abantu baturutse hirya no hino barazaga bakabireba, bakabisura, noneho bakagura bimwe mu bikoresho bakunzenzemo.

Abana bikoreye uduseke bafite n'imyuko, bagenda baseka bishimye cyane, bose bambaye ibisa ubona ko ibyo bari gukora babifitemo ubushake n'ubushishozi, bari ahantu heza hatuje.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino nyarwanda. Abagore ndetse n'abagabo n'abandi batari kubyina bagenda bakoma amashyi, kandi abandi bafotora, ubona ko ibyo bari gukora, babizi neza babitorejwe kandi bananutse.

Umubyinnyiga rwose yarabitorejwe, yambaye imyenda yo kubyinana bita imishanana, ndetse n' urugara n'icumu ryo kubyinisha, ubona ko ibyo ari kubyina yabitojwe, abantu baturutse hijya no hino barazaga bakarebaga ababyinnyi bakabafana.

Inka barazigaburira ahantu habugenewe, ziharirishye nta kibazo, ubwatsi zirabubona amazi yo kunywa zigashoka, zimeze neza cyane zizatanga umukamo uhagije.

Inzu z'ibyatsi za kera bahunikagamo zitwaga ibigega, zibaga zubakishije ibyatsi ndetse n'ibiti, bahagararaga ku gatebe bakajugunyamo, ariko ubu ngubu basigaye bubaka ibigega bifite ubuziranenge, byizewe cane.

Imbyino za kera za kinyarwanda bari gusimbuka bambaye imyenda z'umweru, ndetse n'abagabo babaga basokoje amasunzu babaga ari abami, ndetse n'ibiti bihakikije bicaye mu kibuga bameze neza.

Umugore uri kugosora amasaka yifashishije intara ayo agosoye, akayashyira mu mufuka ndetse akajana mu nzu gamwe akagajana mu isoko bakagagura, agakemura ibibazo bagiye bafite bitandukanye.

Inzu zari nziza za kera za kinyarwanda nizo abami babagamo, ndetse mu mbere yazo habaga harimo ibirago bibohesheje imigozi, ndetse n'ibitanda bikozwe mu biti byabaga ari byiza cane.

Umugabo aravuza umwirongi yambaye ingofero. Ni bimwe mu mico ya kinyarwanda bakoresha.

Mu muco nyarwanda habagaho ibibindi ndetse n'uducuma. Aho tubaga twadushyize hagati buri wese agafata umuseke akagenda agotomeraho, kugira ngo atagira inyota anywa buri gake gake.

Ibishyimbo bimeze neza mu murima, abantu baraza bagasarura, bakabigosora bifashishije intara, bakabijana mu guhunika mu bigega byabo, abandi bakabijana kugurisha mu masoko, bagakemura ibibazo bafite mu mujyango gwabo.

Mu muco nyarwanda, ababyinnyi barabyina bakidagadura. Abashyitsi baza gusura bakareba ababyinnyi, baturutse mu mahanga, baje mu Rwanda. Ababyinnyi rwose barabyina, abagabo, abagore babyina neza cane.

Uduseke dufite n'imitemeri yatwo. Uduseke ni bimwe mu bikoresho Abanyarwanda bakundaga bifashishaga iyo bagiye gusura nk'abantu. Bashiragamo amasaka, ibigori, impugure ndetse n'ibindi, bakabijana bakabyikorera ukabona ko bakeye cane. Ndetse n'ababyinnyi babyinaga bikoreye utwo duseke.

Inkono abantu banyweragamo itabi za kera zibajwe mu biti ubona ko zifite isuku kandi zimwe ziba zisa n'umukara izindi zisa n'ikivuvu.

Umuntu wambaye imyenda y' akazi ko guhakura ubuki; buri mu tiba inzuki zirimo kugira ngo zitamuruma, ndetse ubuki ni bumwe mu kamaro kanini cyane kadufasha kuvura abana ndetse n' abantu bakuru aho bari kubabara.

Umuco nyagwanda guracahari ,ibirago bimeze neza bya kera n'ubu biracahari ,intebe ziboshe mu migwegwe, intebe za kinyarwanda, ingofero za kinyarwanda, ibikoresho byose bya kinyarwanda byose biracaboneka.

Ibishimbo byiza by'umutuku byareze, akuko ko kubidahisha, umufuka gumeze neza go kubihunikamo, nyuma y'igihe gitoya ni ukubijanana mu isoko bakabigura, bagakemura ibibazo bijanye n'amafaranga ibindi bakabirya hehe n'ikibazo co kugira inzara.

Imboga z'isogo zimeze neza bazitayeho cane bazishiramo ifumbire, isogo ni zimwe mu ndyo turyaga zigatuma tumera neza ndetse zinaravuraga indwara zimwe na zimwe nko munda, isogo ni nziza cane zifite intungamubiri ihagije.

Umuco nyarwanda guracyahari ntabwo gwacitse. Abakobwa beza barabyina bikoreye uduseke, babyiniraga ahantu hameze neza, ikibuga kimeze neza, basohotse mu nzu babyiniramo, gwose urabona ko baserutse neza, bambariye imbyino yabo.

Umuco nyagwanda, abantu baratemberaga, inkoni nziza zo gutemberana, amazu gagiye gacomekeranyije gacomekeranyije, ahantu heza hameze neza, ikirere kimeze neza rwose ni ahantu hafite ubuziranenge.

Imico ya kera yari myiza bacurangaga gitari, bacurangishaga uduti, ahantu babaga bari gucurangira habaga hameze neza babaga bambaye imyenda y'akazi wabonaga ibintu ari byiza bakoma ingoma, ibintu byabaga bimeze neza.

Inkono za kinyarwanda zikozwe mu bumba ni zo batekeragamo kera, bashiragamo ibishimbo, izindi bakazitekeramo inyama, byabaga bimeze neza biryoshe ibiryo batekeraga mu ibyo bibindi.

Ingoma bavuzaga abantu baturutse hijya no hino bazaga kuzireba ukuntu bavuzaga ingoma abatabizi bakabyiga zibaga zikozwe mu mpu ndetse no mu migozi bafite n'udukoni bavuzajyi bavugishaga ingoma.

Imbyino nyarwanda umuco uracyahari, babyina bambariye umuco nyarwanda imyenda imeze neza, bakenyeye imikenyero, ahantu hameze neza ikibuga cyiza, bakaza kureba imbyino nyarwanda Abanyamahanga ndetse n'Abanyarwanda.

Ubucuruzi bujyanye n'ibikoresho twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imyuko iri mu ndobo, imbabura, udutara, udupaniye biri ku bisima. Iri soko ni ryiza ryujuje ubuziranenge, rifite n'isuku cyane harimo n'imikubuzo.

Ibisero, imipfundikizo byabyo, ibirago， ibikoresho by'umuco nyarwanda twifashishaga mbere, ariko n'ubu turabikoresha, tugemurira abantu，dushyiramo ibishyimbo, ibigori, ahantu habaye ubukwe, bakaguhereza akarago， ukicara ukaganira n'abandi.

Umukecuru uri kuboha uduseke yifashishije imigozi baboheshaga, yicaye ku karago ka kera ndetse n'agasafuriya ka kera n'ibyatsi biri hafi y'ako karago ameze neza imico nyarwanda ziracyahari.

Igitiyo kira, kiriri mu mucaca ndetse n'ibishyimbo byanditse ku ishitingi, ni igikoresho twifashishaga iyo turi kudaha ibintu tubivana hamwe tubishyira ahandi, bituruhuraga ku buryo nta muntu wananirwa.

Imbyino nyarwanda, abakobwa bambaye neza rwose basusurutsa abantu, bambariye imyenda zo kubyina, aho babyinira hameze neza cane, ubona ko ibyo bari gukora babyize kandi bananutse, bakoze siporo zihagije.

Ababyinnyi babyinaga imbyino nyarwanda b'agabo babaga bambaye imyenda zabugenewe: imishanana, imigara y'intore, bafite n'amacumu, ndetse bambaye namayogi, babyinira ahantu heza hameze neza cane.

Abantu bambaye imyenda za kera, bambaraga imyenda z'uruhu rw'inyamaswa, ndetse n'ibikoresho bakoreshaga bitajyanye n'iterambere, n'ahantu babaga ntago hagezweho ubu turi mu rindi terambere.

Ibikoresho bya kinyarwanda, uducuma n'imiheha ya two, uduseke, imitemeri ya two n'kirago, ni bikoresho byifashishwa mu muco nyarwanda, kugeza na n'ubu baracabyifashisha.

Inzu ndangamurage y'u Rwanda y'ibyatsi， kera habagaho inzu z'ibyatsi， nizo babagamo ariko ubu ni amabati. Hari uduseke tumanitse ku nzu，uduseke tubiri nimitemeri yatwo.

Imboga z'isogo ni zimwe mu mboga zitangaga akamaro kanini ,aho tuzifashishaga tuvura indwara zigiye zitandukanye mu buvuzi bwa gakondo cane cane nk'iyo uri kuribwa mu nda uryaga ku izi mboga, ndetse n'iyo uri kumva udashaka kurya ibiryo ukarya izi mboga ugiraga mu kanwa hameze neza.

Abayobozi bacu ndetse n'abaturage bose bishira hamwe, bagakora umuganda wo guhinga bigatuma iterambere ryacu rikataza mu bikorwa bijanye no guhinga bose bishize hamwe.

Abantu bahagaze bari gukama ibitoki babikoramo umutobe, kugira ngo tuzagunywe. Ndetse n'ibikoresho bakoreshaga nk'umuvure ni go bakoreshaga bakama umutobe ndetse n'ugwagwa.

Imbyino nyarwanda abantu bari kubyina, bari kwidagadura ahantu heza, abagore barabyina, abagabo babyambariye rwose, abagore bambaye imyenda zijyanye n'umuco wabo, abagabo nabo bambaye imyenda zijyanye n'umuco wabo, ibintu bimeze neza.

Ibishimbo byarezwe, byitaweho ku buryo bukwiye, bari kubigosora, bisa n'umutuku. Abakobwa bagosoresha intara, ndetse mu gihe gitoya barabijyana kubigurisha, ibindi babirye. Bigende bibakemurira ibibazo byabo bazaba bafite bitandukanye, bijanye n'amafaranga bagurishije mw'ibyo bishimbo.

Umuco nyarwanda abantu barabyinaga bambariye imyenda zo kubyinana， bakenyeye imishanana ndetse bambaye n'amayogi，abandi bavuza ingoma， abakobwa babyina，abahungu babyina ndetse n'abasaza bambaye ingofero bakoma amashyi，n'abagore bavuza impundu.

Ababyinnyi barabyinaga bambaye imyenda zabugenewe amayogi, imishanana bafashe n'amacumu, abantu baturutse hirya no hino bakaza kureba izo muco nyarwanda bakabasigira amafaranga, ndetse n'abandi bakishima cane.

Ingoma bavuzaga ababyini bari kubyina ndetse niduti bakomeshaga ingoma ubona ko ibyo bakora babaga bimeze neza izo ngoma bazikoraga mu mpu ndetse n'imigozi.

Imitiba zibagamo inzuki, abantu barazikoreraga bakazitaho, zikavamo ubuki ndetse bakabufata bakabuhagura ababigenewe, bakabujana kubugurisha, ndetse abandi bakabwisiga bugatuma abantu basa neza, ndetse bakabukoramo n'inzoga.

Ibikoresho bya kinyarwanda: ibibindi, Ibinini, ibitoya babibangiraga ingata bakabitereka kugira bitangirika bakabipfundikiza ibirere. Inzu z'ibyatsi bakingishaga ibirago no hasi habaga hariho ibirago. Ibyo bibindi babikagamo inzoga n'imisururu kugira bitangirika.

Insinga zicomekeranyije z'amashanyarazi, ni bimwe mu bikoresho bitumaga tubona iterambere rigezweho cane cane nko kugira amatara mu mazu, ndetse no ku muhanda turabyifashishaga no mu kwiga abanyeshuri iyo bari kwiga.

Ibyuma by'ikoranabuhanga bigezweho bijanye n'iterambere turiho, insinga zigiye zicomekeranye muri ibyo byuma. Muri iki gihe ntabwo waba ahantu hatameze neza hatajanye n'iterambere, amashanyarazi garahari umuriro ni gose.

Amaterefone y'ikoranabuhanga gagezweho，aho muri iki gihe wavugana n'umuntu uri mu kindi gihugu，mbere washakaga kuganira n'umuntu ukamusanga aho ari，ariko ubu mwaganira mutari no kumwe.

Umuhanda uragendwa abagenda n'amaguru baragendaga, abagenda n'amagare baragendaga. Amazu meza ajyanye n'iterambere tugezeho, ibikorwaremezo byose birakataje mu iterambere.

Inzu y'Akagari iriho idarapo y'Igihugu cacu, rigizwe n'amabara atatu, ubururu, umuhondo, n'icatsi ndetse n'ibiti bikikije kwago mazu n'amamodoka gahaparitse n'ikibuga abantu baparikagamo.

Igipangu kimeze neza kijyanye n'iterambere tugezeho, habaga hariho umuntu ushinzwe umutekano, ku bujyo hatapfa kwinjira uwo ari wese, hubatswemo amazu gameze neza gatandukanye ndetse n'ibiti bifite bitangaga amahumbezi, bifite amashami manini cane.

Amazu gubatswe impande y'ibiti ibiti byo rwose, bigaragara ko byakwangiriza amazu. Hari umuhanda, umucaca bicaragamo abantu babaga mwago mazu, wagirango ngo n'ikigo cy'aba gisirikare.

Amazu gagerekeranyije gajanye n'iterambere tugezemo, amashanyarazi garahari, ibiti bitanga amahumbezi birahari, ikirere kimeze neza. Umuhanda gujanye n'iterambere tugezeho, ikibuga cyo kwidagaduriramo rwose kirahari, iyi nzu imeze neza.

Uruja n'uruza rw'abakirisitu bagana ku rusengero, igare, ni hanini cane urwo rusengero ruri, ruri ahantu hagari cane, amagare gaparika, abaturage bakinjira mu rusengero, urusengero rufite amashanyarazi amazu meza arahaturiye, ikirere kimeze neza.

Amazu gameze neza, gafite amabati g'ubururu, gateye amarangi, inzugi nziza, ibiti bihari, umucaca mwiza, ikirere ni cyiza cane cane rwose.

Ibiraro byiza byabugenewe byubakishijwe ibyuma bimeze neza cane, wakinyuraho nta mpungenge ufite, ikirere kimeze neza, ahantu hameze neza hatuje, hari umutekano gwose rwose.

Insengero zijananye n'icerekezo tugeze mo zubatswe neza, hari ahantu ho kwidagadurira, aho abantu baza gusenga bazanye abana, ntabwo bahura n'ikibazo cy'umutekano mukeya.

Amazu ari ku muhanda, imihanda igiye itandukanye. Igiye hirya, imanutse ,igiye hino, amashanyarazi ku muhanda, amazu meza afite uruzitiro rugezweho, nta bwo ari izi nzitiro nka zirya za kera z'ibiti z'ibyatsi, ni inzitiro zigezweho cyane.

Uruzitiro rujanye n'iterambere tugezeho， rwubakishije ibyuma ndetse n'amatafari， hari n'icapa kigaragazaga ibikorwa bikorerwagamo， n'ibitaro abantu baturutse hirya no hino，barazaga bakabyivurizaho， harimo n'ibiti n'indabo zitangaga amahumbezi ku bantu， bakicara bakabona akayaga.

Amazu atuwe ameze neza ateye amarangi, afite amabati afite ibiti afite ikibuga kinini kimeze neza, abana bahakinira, akikijwe n'ibiti bitanga amahumbezi ameze neza cyane.

Abapadiri bari gusenga, bambaye imyenda zijanye no gusenga, kandi abakirisitu barazaga, bakitabira, bakicara, bakabasengera, bagenda batanga imigisha impande n'impande, abantu babyizera neza.

Abubatsi babyigiye bambaye imyenda zo kubaka n'ibikoresho bubakishaga byose, harimo n'inyundo bambaye n'ingofero na bote, ubona ko ibyo bakora ari ibinyamwuga.

Inyubako zabugenewe zubakishije ibyuma, ikirere kimeze neza, ahantu heza, imihanda myiza, imiferege, imiyoboro icagamo amazi imeze neza n'amatara ku muhanda.

Inzu nziza ijanye n'iterambere tugezweho, ndetse n'idarapo rihari rifite amabara y'u Rwanda, ubururu, icyatsi, umuhondo, ubona ko iyo nzu ifite umutekano irinzwe nta muntu wapfa kuyivogera.

Umuhanda ufite imikono ibiri, hagati hateyemo indabo zituma hagaragara neza, ndetse hari n'insinga z'amashanyarazi, n'ibiti bitangaga amahumbezi, n'ibipangu bikikije izo mihanda, ukabona ko hakeye hameze neza hafite isuku.

Urusengero rumeze neza cane, abantu basengeragamo, rufite n'umunara rwose hari n'amamodoka gaparitse ndetse n'indabo zabugenewe zimeze neza, bigaragara ko ari rugari cane nta muntu wahezwa bose barasengaga.

Inzu y'urusengero nta bwo ari nini ni ntoya, muri iyi viziyo yatugezemo nta bwo izi nsengero zemewe, ahubwo hemewe insengero nini zisengeragamo abantu benshi. Gusa, ifite ikibuga kinini cyakagombye kubakwaho urusengero runini rw'intangarugero.

Urusengero rwiza rw'abadeperi rugaragara neza, rufite isura nziza, ni rugari cane, rufite amashanyarazi. Urusengero rujanye n'iterambere tugezemo cane, kuko ntago wakubaka urusengero rutagira iterambere ritagira amashanyarazi. Muri iki gihe ni ukubaka urusengero rumeze neza, rugaragara, rufite isura nziza nk'uko uru rwubatse.

Abanyeshuri bambaye inifomo bari ku murongo, ndetse n'ikigo c'amashuri n'abayobozi babo bagenda babaha ibitekerezo byiza, ukuntu abanyeshuri baziga ndetse n'ukuntu bazitwara muri iki gihe tugezemo.

Amazu gameze neza, gwubatswe neza g'ikizeru, gafite gameze neza cane, umuzenguruko amadirishya garazengurutswe ni urusengero abantu baza gusengeramo, rujanye n'iterambere tugezeho.

Insinga z'amashanyarazi ndetse n'amapoto agiye atandukanye yohereza hamwe mu mazu, ndetse n'ibitoki n'ibishimbo biri hafi aho n'umuhanda gw'ibitaka, amazu gameze neza, gagiye gatandukanye.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abashinzwe umutekano, bagenda baganira bahana inyunganizi ibitekerezo bafite n'ibibazo abaturage bafite, bakagenda babiganiraho.

Uruzitiro rwabugenewe rukozwe mu byuma ndetse ruri ahantu hameze neza, ubona ko hafite umutekano nta muntu waturuka hijya no hino ngo apfe kwinjiramo, rurakomeye cane hariho n'ibiti birukikije n'umucaca gumeze neza.

Ibiro by'akagari ndetse n'idarapo riri kw'ibyo biro rigizwe n'amabara igihugu cacu ubururu, umuhondo n'icatsi n'insinga z'amashanyarazi zifashaga abantu kubona urumuri bidatinze.

Ibigo by'amashuri, abanyeshuri bigaga barabamo, bafite imigozi yo kwanikaho imyenda, bikikijwe n'ibiti, ibiti bibazanira umwuka mwiza bahumeka ndetse bafite n'uruzitiro rujanye n'iterambere, nta munyeshuri wasohoka adasabye uruhusa.

Umuhanda ni nyabagendwa aho, nijoro baragendaga ndetse ku izo mihanda habaga hariho amatara garikwaka, amamoto garagenda ndetse n'abantu bakagenda n'amamotoka garagendaga nta kibazo, usanga hameze neza cyane iterambere ni jyose.

Isoko ryubatswe neza ryubakishijwe ibyuma, ibisima bacururizagaho, ritegereje ko abantu baza bakaricururizaho rwose. Nta muntu uririmo ariko nyuma y'igihe gitoya iri isoko rijanye n'iterambere abantu bazaba barigezemo, batangire gucuruza baturutse hirya no hino, bazacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Amazu gameze neza gasize amarangi y'umweru, hakikijwe ibiti, uruzitiro rw'ibyuma rugezweho rujanye n'iterambere turiho, ikirere ciza, umuhanda gumeze neza, gafite n'ubucaca bwo kwidagaduriramo.

Amazu agezweho agiye agerekeranyije, asize amarangi y'umuhondo, ndetse n'insinga z'amashanyarazi zicomekeranyije, muri ayo mazu afite imihanda myiza, abagenda n'amagare, baragenda rwose nta kibazo iterambere rirakataje.

Abaturage bicaye bitabiriye inama b'ingeri zose. Harimo: abagabo, abagore ndetse n'abacecuru, n'urubyiruko. Higanjemo abayobozi, bagenda bababwira ibibazo bafite ndetse bakabikemura.

Abantu bafunzwe bambaye imyenda zo muri gereza bari kwiga nabo ntabwo bahezwa bafite uburenganzira bwabo ndetse bicaye ahantu heza n'amazu babagamo gameze neza gakikijwe ibiti mbese hafite ubuziranenge.

Inama ziritabirwaga abaturage bo hirya no hino, babaga bazitabiriye, nta muturage n’umwe uhejwe. Abagabo, abagore bose babaga bafite ijambo, bagahaguruka, ufite ikibazo akakivuga, ndetse n’abayobozi bakagikemura neza, nta kibazo bafite.

Abaturage bitabiraga inama ari benshi batanga ibibazo byabo, ndetse n'abandi bakabafasha bakabikemura, n'abayobozi bahari, abayobozi beza batabera barabikemuraga rwose nta kibazo.

Abaturage babaga bitabiriye inama bicaye mu kibuga, abagore n'abagabo ndetse ahantu bicaye hari ibiti bitangaga amahumbezi, batanga ibitekerezo ibibazo bafite bakabikemurana bose ntawe uhejwe.

Inama y'abaturage iritabirwaga babaga bicaye hari n'abashinzwe umutekano , ndetse abayobozi bicaye na bo bari kumva ibibazo abaturage bagenda babagezaho bakabikemura bya hato na hato badahejwe.

Abantu bicaye bari kurema inama, n'abandi bafite amakayi bari kwandika insanganyamatsiko ziri kuvugwa mu izo nama. Abagore n'abagabo bose bitabiraga inama ndetse n'abayobozi bagatanga ibitekerezo bigiye bitandukanye.

Amamodoka meza ameze neza, ajyanye n'iterambere tugezeho, abantu baraza baturutse hijya no hino, bakaza muri gare bakayatega akabajyana, iri terambere rwose nta kure, hose aho wajya hose wabona ikintu kikujyana.

Ahantu heza ho guparika abantu baba bahari, indege baraparikaga, imodoka baraparikaga, hameze neza ibimodoka by'amamashini rwose ntabwo iki gihugu cacu cahejwe kimeze neza cane.

Amagare y'ubwoko bwose gagiye gatandukanye go kunyonga udakoresheje imbaraga ahubwo bisabaga intoki bidasabye amaguru.

Uruja n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, abagendaga n'amagare, amamoto, amamodoka gaparitse, abari kugenda n'amaguru, amazu go gucururizamo, imitaka ya emuti ene, imitaka ya eyatele n'ibiti bimeze neza n'insinga z'amashanyarazi.

Uruja n'uruza rw'ahantu amamodoka gabatwaraga gameze neza, gajanye n'iterambere tugezeho, amazu gagerekeranye. Iterambere rwose rirakataje mu bikorwa, imihanda myiza zigezweho.

Uruja n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye baturutse hijya no hino abagore abagabo, ndetse n'amagare gapakiye imizigo n'amamodoka gapakiye, n'imodoka z'amatagisi zitwaraga abantu ziturutse hijya no hino, n'ibiti bimeze neza bitangaga amahumbezi bigendera mu muhanda.

Uruja n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, aho abamotari batwaraga amamoto, aho abantu bambukaga mu muhanda kandi urugendo rukaba rugufiya, ushaka kuja kure, ugafata moto ikakugeza aho ushaka.

Imodoka z'umweru zipakiye ibintu bigiye bitandukanye zibivana hamwe zibihajana ahandi, bitwikiriye ku buryo nta mvura yabigeraho. Ubungubu ni ugukora ugahinga, ugahamagara imodoka zikabipakira nta kibazo ubu iterambere ryaraje.

Umuhanda mwiza，gusukuye，gurimo amamoto， ibiti byiza biri kugo muhanda， ahantu heza waba unaniwe ukicara ukaharukira， hari umucaca ndetse hari n'ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga mugo muhanda，gurasukuye hehe n'umwanda rwose.

Amamodoka gaparitse muri gare gagiye gatandukanye, buri modoka iriho icapa kigaragaza iyo iraja ndetse abantu baturutse impande n'impande baza bagatega imodoka kugira ngo urugendo bagiye gukora ruborohere.

Abantu bahagaze bambaye imyenda z'isarubeti ndetse n'abakobwa bambaye amajire gajanye n'ibyo bakoraga, imoto ziparitse zifite utubati, imyenda z' idarapo z'u Rwanda, rwose hameze neza.

Uruja n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino， abagore， abagabo bambaye udupfukamunwa， birinda indwara， baza muri gare amamodoka garaparitse， batega kugira ngo bagere iyo bagiye urugendo ruboroheye.

Umuhanda guragendwaga abanyamaguru bari kugenda, abanyonzi baraparitse bategereje abakiriya rwose, umutekano ni wose, amazu meza, ibiti byiza, amashanyarazi ku muhanda. Hehe no kugira ikibazo c'umuhanda.

Amamodoka ga rukururana g'ibikamyo aragenda mu muhanda gikoreye imizigo, amatara ku muhanda, ibiti ku muhanda bimeze neza bitanga amahumbezi cane cane ku bantu bagenda n'amaguru.

Ingorofani y'ibiti ubu umuntu ari kuyisunika hariho amabati gashaje bigaragara ko avuye kugagura abantu baragura imyenda; imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore iragurwaga rwose cane ni urujya n'uruza rw'abaturage bava hamwe baja ahandi.

Uruja n'uruza rw'abantu baturutse hijya no hino baza muri gare bashaka gutega amamodoka gagiye gatandukanye gajanye n'iterambere tugezeho, aho umuntu atagenda n'amaguru agiye ku rugendo rurerure. Ubu iterambere ryaroroshe.

Imodoka ziragenda mu muhanda，utumodoka dutoya ，ibikamyo， ibimodoka bikoraga imihanda， ibiti zimeze neza ni amashyamba ari ku muhanda，ibyapa ahantu heza ho kwicara.

Abakinnyi babaga bari gusimbuka kandi bambaye imyenda za siporo ndetse n'inkweto zimeze neza cane, abandi bicaye bari gufana bari kureba uko abakinnyi bari gukina, bagenda bafana kandi imyitozo ni nziza.

Siporo ni bimwe mu bintu bitumaga, tugira umubiri g'umeze neza. Gukina vore abakobwa barakinaga abahungu bagakina. Ikibuga cyiza kimeze neza kijyanye n'iterambere tugezeho.

Imyitozo ngororamubiri ni imwe mu myitozo itumaga amagufa gacu gakomera, kandi imibiri yacu ikora neza aho dukinaga mu kibuga kimeze neza, kandi cyujuje ubuziranenge ku buryo iyo wagwa nta kibazo wagira.

Imikino ngororamubiri nka tenisi ni imwe mu mikino idufashaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho amagufa gacu gakomera ndetse tukarambuka, hehe no kugira indwara zo ku mubiri, abakobwa barazikinaga n'abahungu bose nta kibazo, ubu dukiniraga hamwe.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera imyitozo ngororamubiri. Haba ku bakobwa, haba ku bahungu ni ukwitoza. Umukobwa wese nta kibazo afite yarananutse, natwe ni ukwitoza kugira ngo turusheho kumera neza tunanura umubiri wacu.

Imyitozo ngororamubiri， ni imwe mu myitozo itumaga tumere neza， amagufa gacu gakomera， kandi abagabo barakinaga ndetse n'abagore barakina ugo mukino gw’amaguru gurimo abantu bagiye batandukanye，abafana baturutse hirya no hino， kandi bambaye imyenda zigaragazaga ikipe buri muntu afanaga.

Imyitozo ngororamubiri ya vole, abantu barakinaga abandi bakaza bakafana, ni zimwe mu myitozo itumaga tunanuka tukamera neza, umubiri ukumva uratuje, hehe n'umunaniro mwinshi, kuko ubaga warakoze siporo.

Imyitozo ngororamubiri abantu barakinaga bose abagabo n'abagore ndetse n'abafana bari impande bari gufana ikibuga bakiniragamo kibaga ari kinini cane ku buryo nta numwe waba utari kureba aho abakiniraga.

Imikino y'umupira abafana baba bafannye. Bambariye amakipe gabo, bicaye ahantu hameze neza, sitade imeze neza cane.

Imyitozo ngororamubiri abakobwa barakinaga abahungu bagakina bose ubona ko bafite uburenganzira bumeze kimwe, n'intebe babaga bicayemo zijyanye n'iterambere tugezemo. Abafana bagafana bagahaguruka ubona ko nta muntu n'umwe uhejwe.

Imyitozo ngororamubiri n'imyitozo ituma amagufa yacu arambuka ndetse n'umubiri wacu ugakomera, aho abakobwa n'abahungu bose bakina nta kibazo, cyane cyane nk'umukino wa tenisi ndetse n'ibikoresho bakinisha tenisi.

Abakinnyi bagiye batandukanye harimo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye udupira dusa bose ubona ko bafite isuku, bareba umupira kandi ibyo babaga bari kureba bafana abakinnyi, bari gukina kandi ibyo bari gukina bagatsinda.

Ikibuga cyo kwidagaduriramo, abantu barazaga bakidagadura, abakobwa, abahungu, bose barakinaga muri iki gihe ca Kagame, nta muntu uhejwe, nta vangura abantu bose barakinaga, ikibuga ciza, ikirere kimeze neza cane, mbese bituma umuntu agira ubuntu.

Ikibuga kimeze neza cy'iterambere gisizwe amarangi y'icatsi, umuhondo ndetse n'ubururu kandi hari n'intebe z'intangarugero babaga bicayeho bakazafana umupira guri kuba abafana bose bagafana.

Imyitozo ngororamubiri, ni imwe mu myitozo dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tumere neza, abagabo barakina mu ikibuga kiza cyo kwidagaduriramo, umukino wa tenisi.

Imikino ngororamubiri ni myiza, aho dukinaga imikino z'intoki ndetse twambaye n'imyenda zidutandukanya n'agandi makipe n'inkweto zikomeye ndetse bigatuma tugororoka neza, aho dukiniraga ku kibuga kimeze neza gituma tutangirika.

Umuhanda bagutunganyije, amagare gari kugenda, abafana baje ku muhanda bari gufana berekera aha amarushanwa gabereye, ibintu bimeze neza higanjemo abafana benshi bafana abantu bari gukora amakuru amarushanwa.

Amasiganwa g'amagare, aho abanyarwanda ndetse n'abazungu bagenda basiganwa baturutse hirya no hino, n'abafana bahari kandi ahantu bari gusiganwa ahafite umutekano ndetse abantu bafana. Ibyapa bigaragaza ko iryo rushanwa riri kuba.

Imyitozo ngororamubiri zibera mu rwanda, ikibuga cyiza cyo gufaniramo abakinnyi, intebe zitatse amadarapo y'igihugu cyacu, abafana baraza baturutse impande n'impande bakareba umupira bisagaguye nta kibazo bafite umutekano ari wose.

Mu mukino go kwidagadura, ikibuga cyo kwidagaduriramo haberagamo amasiporo menshi, abakaraza bari kuvuza ingoma, barazivuga neza barabitorejwe, barabyambariye rwose, ingoma ziravuzwa, barabikora neza cane.

umukino w'intoki ni zimwe mu mikino zitumaga tumera neza turambuka aho amagufa gacu gabaga gakomeye kandi n'abafana bazaga kureba uko turi gukina mu kibuga kimeze neza aho wagwa ntagire ikibazo ugira kibaga gifite ubushishozi

Isiganwa ry'amagare harimo abakobwa ndetse n'abahungu, ubona ko n'abafana bahari rwose basesekaye buzuye bagenda, abafana buri umwe n'umwe ni igikorwa gikururaga abantu baturutse hirya no hino.

Isiganwa ry'amagare abantu barikwirukanka bambaye imyenda za siporo, amasengeri, ndetse hamanitse n'ibyapa bigaragazaga nimero zabo. Umuhanda gumeze neza cane, ikirere ciza rwose bariruka nta kibazo.

Imyitozo ngororamubiri, abagabo barakinaga ikibuga cyo kwidagaduriramo kimeze neza, kijanye n'iterambere tugezemo, ni zimwe mu myitozo zitumaga tumera neza, tunanuka cane, turambura ku buryo tutasaza vuba.

Imyitozo ngororamubiri abantu bari kwiruka ndetse n'abandi bari gufana bari hirya no hino babona ko ibyo bari gukora babikora neza ndetse n'ahantu h'umuhanda mwiza utekanye ku buryo ntago wagiriramo ikibazo mugo muhanda.

Imyitozo ngororamubiri ni zimwe mu myitozo zitumaga tumera neza, ndetse abakobwa n'abahungu bose barazikinaga nta muntu uhejwe, n'intebe zijyanye n'iterambere tugezeho cane cane ko zibaga zifite n'amabara y'idarapo cy'igihugu cacu.

Abakinyi bambaye neza imyenda zisa ndetse bambaye n'utugofero n'amasogisi g'umweru, n'amabalo gari impande zabo, ubona ko bitoje cane kandi biteguye gukina basa neza cane.

Umukino wa tennis ni imwe mu mikino ngororamubiri itumaga tumera neza, abakobwa barakinaga abahungu bagakina, kandi ibyo babaga bambaye bibaga ari imyenda za siporo, ndetse n'ikibuga babaga bari gukiniramo ikibuga cyiza ku buryo uguye utakwangirika.

Iterambere rirakataje, abakerarugendo barazaga bagasura, bagahagarara bakareba amazi dufite meza, aboga barogaga, hari ibikoresho byo kogera mo, ku bantu batoga neza hari ibikoresho bibafasha koga, ibintu bikagenda neza ni iterambere rya cu.

Siporo ni zimwe mu myitozo ngororamubiri zitumatumaga tumera neza. Mbere yo gukina barabanza bakitoza bagafata ifoto igaragara neza ukuntu batangira gukina, nyuma bagakina bamaze kwitoza, ugasanga ibintu bimeze neza, abafana bakaza bagafana ndetse bakishima cyane.

urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye bikoreye imizigo ibinyabiziga bitwaye imizigo ndetse n'i moto ziri kugenda n'ibiti bikikije izo mihanda ubona ko umuhanda ari nyabagendwa umeze neza

Amazu ku muhanda gajanye n'iterambere ,gafite amabati y'umutuku ,ibipangu bimeze neza, amashanyarazi, imihanda, ibintu ni bimeze neza cane, ikirere ciza, ibiti bitoshe bimeze neza.